Umubyeyi w'umupapa useka ufashe mikoro mu ntoki, wambaye n'impeta ku rutoki rw'iwe ndetse n'amarinete ahagaze.

Umugabo uhagaze wambaye ijire ryanditseho PBA mu nyuguti ndetse yambaye n'ishati y'ubururu.

Iyi foto iragaragaraho umubyeyi ufashe mikoro ndetse n'agasakoshi mu kwaha, mikoro isa n'umutuku ndetse n'akabara k'umukara yambaye amarinete.

Iyi foto iriho umwari w'umukobwa uri kubyina, yambaye umukenyero w'umweru ndetse n'umushanaana yiteye uri mu ibara ry'umweru.

Abantu bahuriye hamwe barimo babyina imbyino nyarwanda gakondo, ni abari babyina baseka, bateze amaboko, babyinira abantu kugira ngo banezerwe.

Iyi ni ishusho igaragaramo abantu benshi batandukanye, harimo ababyinnyi bambaye imipira y'umweru n'umukenyero w'umukara n'amayogi ku maguru yabo bari kubyinira abantu batandukanye n'ingabo y'igihugu.

Imiyoboro y'amashanyarazi izwi nk'amapiloni. Ashingwa ahantu hagiye hatandukanye mu buryo bwo gukwirakwiza ingufu z'amashanyarazi, zikoreshwa mu mazu atandukanye.

Ihuriro ry'amapironi menshi atwara amashanyarazi yo ku rwego rw'ingufu zihambaye, ahazwi nk'urugomero rutunganya ingufu z'amashanyarazi.

Iyi foto iragaragaraho ipironi ry'amashanyarazi, ririho insinga zambukiranya mu kibaya, ku yandi mapironi, icyo kibaya giteyemo insina.

Iyi ni ni ifoto igaragaza umwana w'umukobwa uri kurira ingazi ugiye gushyira umurasire hejuru, utanga umuriro yambaye ijire risa nk'iryo abapolisi bambara.

Inzira nyabagendwa irimo abantu bayigendamo, ndetse ikagaragara iruhande rwayo imitaka ya MTN Itanga servise ku baturage.

Igikoresho k'ingenzi kizwi nko gutanga ingufu z'amashanyarazi umurasire, giteruwe n'abantu babiri batandukanye bambaye ingofero ziri mu mabara yera.

Inyubako ngari itewe irangi riri mu ibara ry'umweru ndetse isakajwe isakaro riri mu ibara ry'umukara ikaba izitijwe n'ibyuma.

ikiraro cy'ibyuma, kiri kunyurwaho n'abantu ndetse n'ibinyabiziga nka moto, itwawe n'umugabo wambaye kasike itukura, iruhande rwacyo harimo abacyubaka.

Iyi ni inyubako, inyubako ya leta igaragaraho ibara ry'umweru n'uruzitiro ruriho buroke sima irimo ibyuma ndetse na jaride y'icyatsi.

Ikibuga cy'umupira wamaguru kizengurutswe na tapi itukura, gikinirwamo amakipe atandukanye gifite n'aho kwicara kubareba umukino ukiberamo.

Inyubako igeretse isakajwe amabati y'ubururu ndetse ifite imireko yera, ifite imiryango iteye amarangi y'umweru ndetse ikaba ifite n'ibyuma bitangira abantu bibabuza kuba bamanuka biri mu mabara yera.

Iki ni Igicumbi cya repubulika y'u Rwanda, intara y'iburasirazuba akarere ni nyagatare umurenge wa nyagatare akagari ka barija, igicumbi cy'umudugudu wa burumba indangagaciro.

Inyubako ikizamurwa ya etaje yubakishijwe ibikoresho bitandukanye nk'amabuye, isima ndetse ikaba itezwe n'ibiti kugira ngo hatagira ikiyihungabanya ikagwa.

Inyubako yubatswe ku buso bugari iteye irangi ry'umweru. Imbere ku rubaraza ndetse n'ahasigaye hagaragaraho amatafari ahiye. Ikaba isakajwe n'amabati y'ubururu.

Inyubako ngari igeretswe kabiri imbere yayo hakaba haparitswe imodoka ebyiri ziri mu mabara y'umweru isa n'ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye harimo n'umuzungu wambaye ingofero, amarinete, ufite ubwanwa bw'umweru ndetse wambaye n'umupira w'umweru, afashe ku mugozi ugiye gukatwa n'imakasi.

Inyubako ya Leta imbere yayo ishinzweho ibiti bitatu by'ibyuma ndetse ubusitani bukikijwe mu mabara y'umweru n'umukara.

Iyi ni ishusho igaragaza igicumbi cy'itorero, Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Nyagatare, Akagari ka Kasheke, Umudugudu wa nyegeza, indangagaciro kirazira.

Umubare mwinshi w'abaturage bari hamwe, abari hagati mu tente ndetse n'abahagaze hanze yaryo, imbere yabo hari umugabo uhagaze.

Ihuriro ry'abantu benshi, ririmo aba mama ndetse n'abapapa. Bambaye imipira isa ndetse hari n'abandi bicaye babareba n'umuntu wo mu nzego z'umutekano uhagaze iruhande uzwi nk'umudaso.

Ihuriro ry'abantu benshi bateraniye hamwe bicaye mu ihema rizwi nka tente, harimo n'inzego z'umutekano nka Polisi y'igihugu.

Ni ishusho iriho abagabo babiri batandukanye, bafite ururabo rw'icyatsi ruri ku gakoko, bari mugihe cyo kwibuka, umwe yambaye ishati y'umukara undi yambaye umupira w'umweru.

Umubare w'abantu benshi bari hamwe abicaye ndetse n'abahagaze bafashe buje mu ntoki zizwiho akamaro ko gutanga urumuri. Haragaragaraho n'umusirikare wambaye impuzankano y'akazi ka gisirikare.

Abantu benshi bihurije hamwe, bafashe itungo ry'inka, riri mu mabara atandukanye, mu mweru ndetse n'umukara, ahantu hari.

Moto iri mumuhanda itwawe n'abagabo babiri bambaye kasike ziri mu ibara ritandukanye umutuku ndetse n'icyatsi.

Iyi ni foto iriho icyapa gifite ubuso bw'umweru, kigaragaza umuhanda ushamikiyeho, giteye mu byatsi by'icyatsi.

Iyi foto iragaragaza icyapa gifite ubuso bw'umweru umuzenguruko ni umutuku, kiragaragaza iherezo ry'umuhanda.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'umukara, kiranga umuhanda urimo ikona, muri uwo muhanda hari kugenderamo umuntu.

Iyi ni ifoto igaragaza ingabo z'igihugu n'abaturage, bari mu muganda rusange. Harimo umu dasso wambaye impuzankano y'ibara ry'icyatsi ndetse n'umupolisi.

Iyi shusho iragaragaraho abaturage bari mu muganda, hariho n'ingabo y'igihugu bari hamwe mu muganda, inyuma yaho hari umurima urimo ibigori bitari byera.

Iyi foto iragaragaraho abakinnyi b'umupira bambaye impuzankano zitandukanye bamwe bambaye iz'umuhondo ndetse n'amasogisi arimo ibara ry'umukara abandi bambaye iz'ubururu.

Ikibuga cy'umupira, kigaragaramo abantu babiri, umudamu ndetse n'umugabo, bambaye impuzankano ziri mu mabara atandukanye, umugabo aho yambaye umuhondo.

Uruvunge rw'abantu bicaye mu ntebe z'umukara n'abicaye mu ntebe z'ubururu mu nyubako ya sitade yifashishwa abantu bareba umupira ahazwi nka tiribine.

Ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi batandukanye mu mpuzankano izwi nka jezi y'umuhondo ndetse n'impuzankano y'ubururu.

Iyi ni ishusho ry'icyapa kiranga farumasi byanditswe mu mabara yiganjemo ibara ry'icyatsi, mu ibara ry'umweru no mubara ry'ubururu, icyo cyapa cyanditsweho apoteki famasi.

inzira nyabagendwa, izwi nk'umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga cyangwa se abanyamaguru, uba ukozwe, hakoreshejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Umuhanda mugari ugendwamo n'umuntu areba aho aturuka afashe emvirope mu ntoki. Yambaye agakomo ku kaboko k'iwe k'iburyo.